Amafi matoya akabushije, ari kumwe n'urusenda ku kibaho cy'umukara, bigaragara ko agiye kuribwa ako kanya, hamwe n'akantu kameze nk'indimu iruhande rwayo.

Urubuto rwa voka y'icyatsi imaze kurongwa yiteguye kuribwa isa neza cyane, ariko itabanguriye, ifite n'agaheri k'umukara kadakuze, ishobora kuba iririmo amazi mo imbere itaryoshye cyane we!

Umuntu afashe ifuko mo gakanu ifite ibitaka ku ntoki n'ibyoya bijya gusa.., bijya gusa n'ivu, n'ibyara bitatuye birebire bitaragira.

Igipusi cy'amatama kinini kiri ku migano y'icyatsi kiri kureba cyane gitegereje ko hari umuntu wagiha ibyo kurya. Ku migano y'icyatsi harimo n'akabara k'umuhondo iruhande rwayo